Abantu benshi bari hamwe harimo abakuze ndetse n'umwana mutoya. Barimo kumupima ibiro kugira ngo barebe ko imyaka ye ndetse n'ibiro bigiye ku kigero kingana, kugira ngo bamurinde kugwingira ndetse no kurwanya imirire mibi.

Abana bato benshi bari kumwe, bambaye impuzankano zabugenewe z'ishuri. Bari ku ivomero rusange. Bari kuvoma amazi meza ndetse bakaraba n'intoki n'amazi meza kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye zikomoka ku gukoresha ku mazi asa nabi, ndetse birinde indwara zitandukanye harimo nk'iz'inzoka.

Abana babiri birabura, bishimye, bari gukaraba intoki kugira ngo birinde imyanda itandukanye, harimo n'iterwa n'inzoka. Umwe ari gusukira undi amazi, akoresheje igikoresho cyabugenewe.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore birabura, bari mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'ibanze, bari guha umwana urukingo rw'indwara zitandukanye, kugira ngo yirinde ibyo byorezo n'ibindi.

Umwana mutoya wirabura uri ku ivomero rusange, ari kuvoma amazi akoresheje igikoresho cyabugenewe mu gutwaramo amazi, ari kunywa amazi yifashishije ibiganza bye akanduza ayari muri cya gikoresho, ibyo bitera indwara zituruka ku mazi mabi harimo n'inzoka.

Abantu benshi harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bicaye ahantu hamwe mu cyumba. Baje gupimisha abana babo kugira ngo barebe ibiro byabo ndetse niba bafite imirire myiza kugira ngo bakurikiranwe inzira zikigendwa.

Abantu bari hamwe mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo uwambaye impuzankano w'igitsina gore, arimo gusuzuma umwana mutoya kugira ngo arebe ikibazo afite.

Abana benshi batoya bari hamwe bari ku ivomero rusange, bari kuvoma amazi meza bakoresheje ibikoresho byabugenewe mu kuyabika, kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye harimo n'iziterwa n'amazi mabi.

Abantu benshi bari hamwe, harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, harimo abambaye impuzankano zabugenewe bari gufata ifoto nyuma yo guhabwa amahugurwa ku bijyanye no gusuzuma abantu barwaye indwara zigiye zitandukanye.

Abana batoya benshi bari hamwe bari ku ivomero, bari gukaraba intoki n'amazi meza kugira ngo biririnde indwara ziterwa no gukaraba amazi mabi ndetse n'umwanda kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Abantu babiri bari hamwe b'igitsina gabo birabura, umwe ari gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo yirinde indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'umwanda, harimo n'inzoka, undi ari kumusukira amazi kugira ngo arusheho kunoza isuku.

Umwana mutoya wishimye uri guseka, wambaye impuzankano zabugenewe z'ishuri, ari ku ivomero. Ari gukaraba intoki n'amazi meza kugirango ngo yirinde indwara zitandukanye harimo n'iziterwa n'umwanda nk'inzoka.

Abantu batatu b'igitsina gore bari hamwe, bicaye ku ntebe, bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye buzuza uko abantu imibereho yabo imeze muri rusange, harimo uwambaye impuzankano zabugenewe ufite imirimbo ku matwi.

Abantu benshi cyane bari hamwe, harimo abakuze ndetse n'abana batoya. Bari ku ivomero rusange, bari kuvoma amazi meza nk'uko byagenwe na Leta. Bari kuyashyira mu bikoresho byabugenewe mu kuyabikamo kugira ngo akomeze kugira isuku. Na bo bayakoreshe birinda indwara ziterwa no gukoresha amazi mabi.

Abantu bari hamwe bari mu cyumba cy'inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, harimo uwambaye impuzankano zabugenewe ufite ibikoresho by'umwihariko byabugenewe mu kuvura abantu, barimo kuvura umuntu bamuryamishije ku gatanda k'abarwayi kabugenewe.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bicaye ku ntebe. Bari kuganira ku buryo bakifatira icyemezo ku mibereho y'ubuzima bwabo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Abana bato benshi bari hamwe bishimye bari guseka, bari ku ivomero rusange, bari gukaraba intoki kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'umwanda, harimo nk'inzoka ndetse n'izindi.

Umuntu utagaragara igice cyo hejuru ndetse n'icyo hasi uri gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, uri gukoresha igikoresho cyabugenewe mu kubikamo amazi yo gukaraba intoki kiri mu ibara ry'ubururu, ari kunoza isuku kugira ngo yirinde indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Abantu benshi cyane bari hamwe, igitsina gore, igitsina gabo ndetse n'abana batoya. Baje ku nzu itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Baje kwisuzumisha indwara zigiye zitandukanye kugira ngo hafatwe ingamba zo gukumira izo ndwara mu gihe basanze bazirwaye, maze na bo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi b'igitsina gore birabura bari hamwe, bicaye ku ntebe bari kuganira uko bagira ubuzima bwiza ndetse bakiteza imbere bakabasha gufasha ababakomokaho.

Abantu benshi bari hamwe harimo abakuze ndetse n'abato, bari ku ivomero rusange. Bari kuvoma amazi meza bakoresheje ibikoresho byabugenewe kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye, harimo n'iziterwa n'amazi mabi nk'inzoka ndetse n'izindi.

Umuntu w'igitsina gore wirabura wishimye uri guseka, ari kumwe n'umwana muto, ari ku ivomero rusange, ari kuvoma amazi ayashyira mu gikoresho cyabugenewe, kugira ngo adahura n'imyanda itandukanye, ikabatera indwara zitandukanye, harimo n'inzoka.

Abantu benshi bari hamwe, harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bambaye impuzankano zabugenewe, bicaye ku ntebe, bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'imibereho y'ubuzima ndetse n'indwara zigiye zitandukanye kugira ngo bajye gufasha abandi mu myumvire.

Abantu benshi bari hamwe b'igitsina gore bicaye. Umwe yambaye impuzankano zabigenewe, afite n'ibikoresho bitandukanye, ari gukoresha asuzuma abo bantu kugira ngo arebe niba ubuzima bwabo, bumeze neza ndetse abahe n'imiti ku bantu bafite ibibazo.

Abantu benshi b'igitsina gore bishimye, bari guseka bari kubyina imbyino za Kinyarwanda nyuma yo guhabwa amahugurwa y'ukuntu bakwita ku mibereho yabo ndetse no ku buzima bwabo muri rusange, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane bari hamwe, harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Bambaye impuzankano zabigenewe. Harimo n'abashinzwe umutekano. Bari kubaka akarima k'igikoni, bateraho imboga rwatsi ndetse n'izindi mboga kugira ngo bashishikarize abantu kujya barya indyo yuzuye, bakagira ubuzima bwiza.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Mayange itangirwamo ubuvuzi, imbere yaho hari abantu benshi harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bambaye impuzankano zabugenewe z'abaganga bari gukoma amashyi, imbere yabo hari umunyamahanga.

Abana benshi cyane batoya bari hamwe bari ku ivomero rusange, bari gukaraba intoki n'amazi meza kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye, harimo n'umwanda uterwa no gukaraba amazi mabi kugira ngo birinde indwara y'inzoka n'izindi.

Abantu benshi bari hamwe harimo abakuze ndetse n'abatoya, bambaye impuzankano z'ishuri zabugenewe, bari kumwe n'abarezi babo, abana bato barishimye bari gukina nyuma y'uko baje kubaganiriza ndetse no kubaha inkingo zimwe na zimwe kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane bari hamwe, bicaye ku ntebe, bafite ibikoresho bitandukanye, barimo kwifashisha babwira abantu, harimo mudasobwa ndetse n'indangururamajwi. Bari kubwira abantu ibijyanye n'ubuzima ndetse no kubungabunga ubuzima muri rusange bw'abaturage, no gushyiraho ingamba zihamye, kugira ngo abaturage bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi bari hamwe, harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, harimo n'abanyamahanga, bicaye ku ntebe mu cyumba, bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bw'indwara zo mu mutwe ndetse bari gusangira ibitekerezo bishimye, imbere yabo hateretse ibikoresho byinshi byo gukoresha bari kunywa ikawa.

Abantu benshi b'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bicaye mu cyumba ku ntebe bari kuganira, harimo uwambaye impuzankano yabugenewe ari kubabwira ku bijyanye no kwita ku buzima bwabo ndetse n'icyo bakora kugira ngo babubungabunge.

Abantu benshi cyane bari hamwe, harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Barimo gufata ifoto nyuma yo kuganira ku mibereho myiza y'ubuzima bwabo, barishimye bari guseka. Inyuma yabo hari inyubako ndende ifite amadirishya ndetse n'imiryango.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Harimo abambaye udupfukamunwa. Barimo guha umwana ikinini cy'inzoka bamukingira inzoka, kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umwana muto uri ku ivomero rusange, arishimye ari guseka bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ari gukaraba mu maso ndetse n'intoki n'amazi meza kugira ngo yirinde indwara zitandukanye harimo inzoka ndetse n'izindi ndwara.

Abantu benshi bari hamwe harimo abicaye ndetse n'abahagaze. Baje guhesha abana urukingo rw'indwara zitandukanye harimo; nk'imbasa, iseru ndetse n'izindi ndwara, kugira ngo birinde izo ndwara zitaraza, zi tazabateza ibibazo ndetse no kubura ababo.

Abantu benshi bari hamwe harimo abakuze ndetse n'abana batoya. Bari ku ivomero rusange. Bari kuvoma amazi meza bifashishije ibikoresho byabugenewe mu kubikwamo amazi meza ndetse biborohereza n'uburyo bwo kuyatwaramo kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bakoreshe amazi afite isuku kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye.

Abantu benshi bari hamwe b'igitsina gore birabura. Baje ku ivomero rusange gushaka amazi meza kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye harimo n'iziterwa n'amazi mabi nk'inzoka. Kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse n'abazabakomokaho.

Abantu benshi harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bicaye ku ntebe. Bari kuganira n'abafatanyabikorwa babo, ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'ingamba ku bintu bimwe na bimwe bitandukanye kugira ngo bikomeze guca mu murongo unoze.

Abantu benshi bari kumwe b'igitsina gore birabura. Umwe yambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'agapfukamunwa, ari guha amabwiriza undi ufite umwana mutoya, amubwira uko agomba kumwitaho ndetse akamurinda n'indwara ziterwa n'umwanda.

Umwana mutoya wirabura, wambaye impuzankano zabugenewe. Ari gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, yifashishije igikoresho cyabugenewe tuzi nka kandagira ukarabe. Ari gukaraba neza kugira ngo yirinde indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'umwanda, avuye mu bwiherero.

Abantu babiri b'igitsina gore birabura bishimye. Umwe yambaye impuzankano yabugenewe ndetse n'imirimbo ku kuboko. Ari guha umwana mutoya urukingo rw'indwara zitandukanye, kugira ngo yirinde ibyorezo bitandukanye.

Abantu babiri bari kumwe igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bicaye ku ntebe, harimo uwambaye impuzankano zabugenewe, arimo kwereka undi aho ikigereranyo cy'abantu kigeze abashishikariza kurandura SIDA ndetse no kuyirwanya.

Abana babiri batoya bari kumwe birabura, barimo kuvoma amazi bakoresheje ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuvomeramo amazi, bari kuvoma amazi yo gukoresha imirimo igiye itandukanye nko gukora amasuku yo mu rugo ndetse no gufura imyambaro yabo.

Abantu benshi cyane bari hamwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bafite abana babo bicaye ku ntebe, baje kubakingiza inkingo ndetse no kubaha ibinini by'inzoka kugira ngo bagire ubuzima bwiza, birinde igwingira ry'abo bana.

Abantu bari hamwe harimo abakuze ndetse n'abatoya. Bari ku ivomero rusange bari kuvoma amazi meza nk'uko leta yabiteganyije. Bari kuyashyira mu bikoresho byabugenewe byifashishwa mu gutwarwamo amazi ndetse no kuyabika afite isuku kugira ngo barusheho gukoresha amazi meza, birinda indwara nyinshi zituruka ku mazi mabi.

Abana benshi bari hamwe barishimye, bari guseka nyuma yo guhabwa impamyabumenyi ku bigendanye no kwita ku buzima bwabo ndetse n'ubw'abandi muri rusange, kugira ngo bose bagire ubuzima bwiza, buzira umuze.

Abantu benshi cyane bari hamwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bicaye ku ntebe harimo n'abanyamahanga, bari kuganira ku mibereho myiza ndetse n'uburyo izo ngamba zashyirwa mu bikorwa kugira ngo buri wese arusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, barimo gufata ifoto nyuma yo gusuzumwa indwara zigiye zitandukanye, bari kumwe n'abaganga bambaye impuzankano zabugenewe.

Abantu benshi cyane bari hamwe harimo ibitsina gore ndetse n'igitsina gabo bicaye ku ntebe, imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi bari kuganira ku bintu bitandukanye, uburyo umuntu yakwita ku mibereho ya muntu kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abantu benshi harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bari hamwe. Bambaye impuzankano barakurikiye, bari kumva amabwiriza ndetse n'ibiganiro byerekeye ku kubungabunga ubuzima bwabo ndetse no kubyitaho kugira ngo na bo ubwabo bagire ubuzima bwiza.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsina, barishimye bari guseka harimo abambaye impuzankano zabugenewe, bari kumwe n'umunyamahanga wambaye indorerwamo z'amaso, barimo gufata ifoto nyuma yo gusobanukirwa neza uko bagomba kwita ku buzima bwabo ndetse n'uburyo bazajya kubikangurira abandi.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bicaye ku ntebe mu cyumba, bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye no kwita ku buzima bw'abaturage ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange.

Abantu benshi bari hamwe, harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bicaye ku ntebe. Harimo abambaye impuzankano zagenewe. Bari kuganira ku buryo bakita ku buzima bwabo ndetse no kubungabunga muri rusange mu mibereho yabo ndetse n'abana babo.

Abantu benshi harimo igitsina gore n'igitsina gabo birabura, bari gutunda imifuka irimo ibiribwa bahawe nk'imfashanyo, kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza bisange mu bandi bakomeze kwisanzura bishimye.

Abantu benshi harimo n'abanyamahanga bicaye ku ntebe bari kuganira ku mibereho myiza ndetse n'uburenganzira bw'abana muri rusange, bifashishije insankazamatsiko kugira ngo bigere kuri buri wese, kugira ngo abana bakomeze kugira ikizere cy'ejo hazaza ku buzima bwabo.

Abantu babiri bari hamwe, harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, umwe yambaye impuzankano zabugenewe, ndetse n'igikoresho cyo gukoresha kwa muganga cyabugenewe. Ari gusuzuma umwana, kugira ngo arebe indwara afite, maze amuvure, akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bishimye bari guseka, bari gufata ifoto nyuma yo guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'imibereho ndetse n'ubuzima bw'abantu bafite, indwara zo mu mutwe ndetse n'izindi ndwara.

Umuntu w'igitsina gore wirabura uri kumwe n'umwana muto bishimye, bari guseka bakina n'udukino dutandukanye nyuma yo kumugaburira indyo yuzuye. Harimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga kugira ngo amurinde kugwingira.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bicaye ku ntebe mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo umugabo uri kubaganiriza ku mibereho myiza y'abana ndetse na bo ubwabo ku giti cyabo.

Abantu benshi cyane bari hamwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bicaye ku ntebe. Bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse no gufata neza abantu bafite ibyo bibazo bikoresheje insankazayamatsiko kugira ngo bigere kuri buri wese.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bicaye ku ntebe. Bari kuganira bota akazuba baganira ku bintu by'indwara zo mu mutwe ndetse n'izindi ndwara ndetse n'uko bafata umuntu uzifite muri rusange.

Umuntu w'igitsina gore wirabura ufite imisatsi migufi y'umukara wishimye uri guseka, inyuma ye hari inyubako itangirwamo ubuvuzi bwindwara zo mu mutwe, imbere yaho hateretse intebe.

Umuntu w'igitsina gore wirabura, wicaye ku ntebe utishimye. Inyuma ye idirishya rirafunguye kugira ngo hinjire umwuka mwiza, imbere ye harambuye umuce, mu cyumba arimo hasizemo irangi bakoresheje igishonye.

Umuntu utagaragara igice cyo hasi, utishimye, ari kurira amaso yatukuye, biragaragara ko afite ikibazo akeneye umwitaho kugira ngo na we arekere kwigunga, ahubwo yishime agire ubuzima bwiza asabane n'abandi.

Umuntu w'igitsina gore wishimye uri guseka wirabura wicaye ku gatebe ka Kinyarwanda ka cyera tuzi nk'agasongabugari. Ari guteka akoresheje isafuriya yabugenewe ndetse atetse ku mashyiga acanye inkwi.

Umuntu w'igitsina gabo wishimye uri guseka utagaragara igice cyo hasi, yambaye umwambaro uri mu ibara ry'umuhondo, nta kibazo afite arishimye rwose nyuma yuko amenye ko ntabazo cy'uburwayi bwo mu mutwe afite.

Umuntu w'igitsina gore wirabura utagaragara igice cyo hasi. Wambaye imirimbo ku matwi utishimye ufite ikibazo mu mutwe, yarakariye abantu kubera ko we adatekereza impamvu bari kumukorera ibyo bintu byose.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gabo, igitsina gore bamwe bicaye abandi bahagaze bari mu cyumba cy'inyubako itangirwamo ubuvuzi ku ndwara zo mu mutwe.

Abantu babiri b'igitsina gore birabura bicaye ku ntebe, umwe afite imisatsi miremire ndetse n'umurimbo ku kuboko, ari kuganiriza undi kugira ngo amukure mu bwigunge adakomeza kwiheba.

Abantu benshi harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, harimo abicaye ndetse n'abahagaze, barishimye bari guseka harimo abambaye indorerwamo z'amaso, bari gufata ifoto nyuma yuko bahuye bakaganira ku bigendanye n'imibereho myiza y'ubuzima bwabo.

Abana benshi batoya bari hamwe, bambaye impuzankano y'ishuri, barishimye bari guseka, nyuma y'uko babaganirije ku mibereho y'ubuzima bw'indwara zo mu mutwe, bakumva ko bagomba gufasha abarwaye izo ndwara kuko nabo atari bo biremye.

Umwana muto wumukobwa wishimye uri guseka, wambaye impuzankano yicaye ku ntebe mu ishuri afite imisatsi miremire. Inyuma ye hari abandi bana bato bicaye ku ntebe mu ishuri.

Abantu bari hamwe harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bicaye ku ntebe mu nyubako, harimo uwambaye imirimbo ku kuboko ndetse no ku matwi uri kubaha amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura wishimye uri guseka uri mu zabukuru, yambaye umushanana uri mu ibara ry'umuhondo, afite icumu mu ntoki, yicaye ku ntebe, biragaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu babiri bari hamwe harimo igitsina gabo n'igitsina gore, imbere yabo hateretse icupa ririmo amazi ndetse na mudasobwa bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima muri rusange.

Umuntu w'igitsina gore wirabura uri mu zabukuru wishimye uri guseka nta kibazo afite, kubera ko yabonye iby'ingenzi byose, abamuganiriza kugira ngo atakomeza kwigunga ahubwo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore wirabura wishimye uri guseka, wambaye imyambaro iciye amaboko, ufite umusatsi muremure inyuma ye, hari ibirungo byinshi bitandukanye byifashishwa mu gutegura amafunguro ndetse n'ibindi.

Abantu benshi bari hamwe b'igitsina gore bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, umwe afite indangururamajwi ari kubabwira uko bakwiriye gufata abafite ibyo bibazo. Abandi imbere yabo hateretse amacupa y'amazi barakurikiye.

Abantu benshi bari hamwe harimo n'uri mu zabukuru, ari kumwe n'abana batoya cyane, baricaye bari kuganira abacira imigani kugira ngo bose bagire ubuzima bwiza, nta kibazo bafite bose.

Umuntu w'igitsina gore wirabura wambaye indorerwamo z'amaso imirimbo yo ku matwi ndetse n'isaha ku kuboko, ari gukoresha indangururamajwi abwira abaturage ko bagomba kwita ku bantu bafite ibibazo by'ubuzima byo mu mutwe ndetse no kubakura mu bwigunge bakumva ko nabo bafite uburenganzira nk'ubwacu.

Abantu babiri bari hamwe umwe utagaragara igice cyo hejuru ndetse n'igice cyo hasi wambaye impuzankano yabugenewe harimo ga ndetse n'ibindi bikoresho byabugenewe undi arishimye ari guseka nyuma yo guhabwa ubuvuzi bw'amenyo.

Abantu benshi bari hamwe, bambaye impuzankano zabugenewe. Umwe yambaye indorerwamo z'amaso ari kuvura umuntu urwaye amenyo, kugira ngo arekere kugira ububabare, ndetse arusheho no kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara igice cyo hasi; arimo koza amenyo, yifashishije agakoresho kabugenewe, mu koza amenyo akuramo utwanda tuba turi hagati y'amenyo, kugira ngo yirinde indwara nyinshi z'amenyo.

Abantu babiri bari hamwe batagaragara igicye cyo hejuru ndetse n'igice cyo hasi. Umwe yambaye isaha ku kuboko, afite ibikoresho byabugenewe, arimo kwereka undi uburyo bavura amenyo ndetse n'uburyo bakuramo amenyo yagize ikibazo.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye harimo ibikoresho byinshi byabugenewe intebe zo kwicaraho, za mudasobwa ndetse n'utubati ibi bikoresho abaganga babikoresha bavura abarwayi ndetse banabasuzuma indwara bafite kugira ngo babiteho nabo bagire ubuzima bwiza bakire.

Umuntu w'igitsina gabo, utagaragara igice cyo hasi. Afite agakoresho kabugenewe, bifashisha bari koza amenyo. Ndetse bakuramo utwanda duto duto tuba twagiye hagati y'amenyo, kugira ngo yirinde indwara z'amenyo.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye abaganga bakoresha barimo kuvura abantu, udutanda two kuryamishaho abarwayi, udutebe two kwicaraho ndetse n'isaha yo kureba igihe.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye abaganga bakoresha barimo gusuzuma uburwayi bw'amenyo ndetse n'izindi ndwara, harimo umuntu wambaye indorerwamo z'amaso, impuzankano zabugenewe ndetse n'agapfukamunwa.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi byabugenewe, udutanda two kuryamisha abarwayi, intebe Mudasobwa n'ibindi, abavuzi babikoresha barimo gusuzuma indwara abo bantu barwaye.

Abantu babiri harimo utagaragara igice cyo hejuru ndetse n'igice cyo hasi wambaye ga afite ibikoresho byabigenewe. Ndetse n'umwana mutoya wambaye imirimbo yo ku matwi. Ari kumuvura amenyo yifashishije icyo gikoresho cyabugenewe asuzuma niba umwana nta kibazo afite.

Icyumba kinini kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, harimo amatara menshi, ndetse n'ibikoresho byinshi bitandukanye, abaganga bifashisha bavura abato n'abakuze indwara z'amenyo zitandukanye, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abana bato benshi bari hamwe, bafite udukombe mu ntoki ndetse n'igikoresho cyabugenewe kifashishwa mu koza amenyo, bari kwerekana uburyo koza amenyo ari ingirakamaro bidufasha kwirinda, indwara nyinshi zitandukanye,

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo abantu b'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, harimo uwambaye impuzankano zabugenewe, ari kwigisha umwana uburyo bareba indwara ziterwa n'amenyo.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara z'amenyo, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, agatanda ko kuryamishaho umurwayi igihe bari kumusuzuma indwara arwaye mu menyo ndetse n'intebe yo kwicaraho harimo n'ibindi bikoresho, ibi bikoresho abaganga babikoresha bareba indwara abarwayi barwaye.

Abantu batatu bari kumwe batagaragara igice cyo hepfo, bari mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi bw'amenyo. Harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byabugenewe, harimo abambaye indorerwamo z'amaso bari kuvura undi urwaye amenyo bakoresheje ibyo bikoresho byabugenewe, kugira ngo barebe ikibazo afite ku menyo.

Abantu babiri harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo , umwe yambaye imyambaro yabugenewe afite n'ibikoresho byabugenewe, ari kuvura undi amenyo kugira ngo agire ubuzima bwiza areekere kubabara.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara igice cyo mu maso ndetse n'igice cyo hasi wirabura, afite igikoresho cyabugenewe mu koza amenyo, ari kwereka abantu uko bazajya boza amenyo kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye z'amenyo.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Bari mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi, bari kwereka umwana muto uko indwara z'amenyo ziba zimeze ndetse n'uburyo wazirinda.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura wambaye imyambaro yo kurarana uri mu zabukuru, ari kwireba mu ndorerwamo ari koza amenyo, yirinda indwara zitandukanye z'amenyo kugira ngo agire isuku ndetse agire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara neza igice cyo hasi

Abantu babiri b'igitsina gore ndetse n'uw'igitsina gabo, bari kumwe, umwe yambaye impuzankano zabugenewe, ari kumuvura indwara z'amenyo, amwereka amenyo yiwe atameze neza ngo amufashe.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura utagaragara igice cyo hasi, afite umugozi wabugenewe wifashishwa mu koza amenyo kugira ngo birinde indwara zitandukanye z'amenyo ndetse bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri bari kumwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, barishimye bari guseka bari kwerekana uburyo boza amenyo bakuramo utwanda turi hagati y'amenyo bifashishije agakoresho kabugenewe, bari kwireba mu ndorerwamo.

Abantu babiri harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, umwe yambaye impuzankano zabugenewe, undi ari mu zabukuru arishimye ari guseka, imbere yabo hateretse imbuto n'imboga, bari gusuka icyo kunywa kugira ngo bakomeze kuganira bica akanyota.

Abantu babiri harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bishimye bari guseka, umwe ari mu zabukuru undi yambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'imirimbo ku matwi, bari kuganira bahuje urugwiro kugira ngo badakomeza kuguma mu bwigunge.

Abantu babiri bari mu zabukuru bari kumwe harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore. Umwe yambaye indorerwamo z'amaso ari kwandika muri mudasobwa, undi afite igikoresho cyifashishwa mu kubika umuti, kibitsemo umuti. Ari kumwereka umuti bazakoresha igihe bazaba barwaye.

Umuntu w'igitsina gore uri mu za bukuru wambaye indorerwamo z'amaso ufite imisatsi miremire ndetse wambaye umwenda uri mu ibara ry'umuhondo, ari kunywa imiti uko yayihawe na muganga, kugira ngo agire ubuzima bwiza, yicaye ku ntebe, arishimye ari guseka.

Abantu babiri, igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Umwe ari mu zabukuru arishimye ari guseka. Ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara nyinshi zitandukanye harimo n'umubyibuho ukabije. Undi ari kumufasha gukora iyo myitozo ngororamubiri, yambaye impuzankano yabugenewe.

Abantu benshi bari hamwe b'igitsina gore, birabura, bari mu zabukuru, bari kuganira n'abandi kugira ngo bose bumve ko bari hamwe, batahize umugozi umwe, ntibakomeze kwigunga bonyine.

Umuntu w'igitsina gore wirabura uri mu za bukuru wicaye hasi. Atetse ibiryo ku mashyiga kugira ngo aze gufungura saa sita agire ubuzima bwiza ndetse n'imbaraga akore imirimo itandukanye afite imbaraga.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bicaye ku ntebe bari kuganira basangira ibitekerezo ku bijyanye n'imibereho y'ubuzima bwiza bwabo bicaye munsi y'igiti cy'imwembe babogamye izuba.

Abantu babiri bari kumwe, harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, umwe ari mu za bukuru yambaye indorerwamo z'amaso, yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, undi ari kumusunika bari kuganira bishimye baseka, bahuje urugwiro kugira ngo yumve atari wenyine.

Abantu babiri b'igitsina gore bishimye bari guseka bari kuganira bahuje urugwiro, umwe muri bo wambaye indorerwamo z'amaso uri mu za bukuru, imbere yabo hateretse imbuto n'imboga bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu za bukuru.

Abantu benshi bari hamwe, harimo abari mu zabukuru, barishimye bari guseka, bari gukora igikorwa cyo gusarura ikawa bayishyira mu gikoresho cyabugenewe tuzi nk'igitebo kugira ngo babone amafaranga yo gukemura ibibazo baba bafite.

Abantu babiri bari hamwe harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bicaye ku ntebe, umwe muri bo ari mu zabukuru, undi ari kumuha imiti ndetse n'amazi kugira ngo ubuzima bwe abukure mu kangaratete, barishimye, bari guseka, bari kuganira bahuje urugwiro.

Abantu babiri b'igitsina gore birabura bari mu cyumba, inyuma yabo hateretse akabati karimo ibikoresho byifashishwa ku meza, imbere yabo hateretse imbuto n'imboga, umwe muri bo yambaye indorerwamo z'amaso uri mu zabukuru.

Abantu babiri b'igitsina gore bari kumwe bishimye bari guseka, umwe ari mu zabukuru, undi ari kumuganiriza ku bigendanye n'ubuzima ndetse amuhumuriza, kugira ngo adakomeza kwigunga ngo ahore ari wenyine.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura wambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'udukoresho bifashisha bumva imiziki n'ibindi, arimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara nyinshi zitandukanye harimo rubagimpande, imitsi n'umubyibuho ukabije, kugirango arusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri bari mu zabukuru, bishimye bari guseka, harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bicaye ku ntebe, umwe afite igikoresho cyabugenewe kifashishwa mu kubikamo imiti myinshi itandukanye, undi ari kumwereka ibiranga uwo muti ndetse n'uburyo yawukoresha.

Abantu babiri b'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bari kumwe, umwe ari mu zabukuru yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, undi yambaye impuzankano yabugenewe ari kumuganiriza kugira ngo ataguma mu bwigunge, ahubwo akomeze yishime arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuntu wirabura utagaragara igice cyo hejuru, wambaye umurimbo ku kuboko, afite agakoresho kabugenewe ari kugendagenda kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza ndetse arambure imitsi n'ibindi.

Abantu babiri b'igitsina gore bishimye bari guseka, umwe ari mu zabukuru. Undi ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda izindi ndwara zitandukanye harimo nk'umubyibuho ukabije.

Abantu benshi bari hamwe, harimo abana batoya ndetse n'abakuze, bishimye bari guseka, bari kuganira bahuje urugwiro kugira ngo bose bagire ubuzima bwiza ndetse barwanye ubwigunge.

Abantu babiri bari kumwe, harimo umukuru ndetse n'umutoya. Bari gukina imikino bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bishime, bagire ubuzima bwiza birinde indwara zitandukanye.

Abantu babiri bari kumwe birabura bari mu zabukuru, harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, umwe ari kunywa imiti nkuko yayandikiwe na muganga, undi ari kumwereka amabwiriza akurikiza kugira ngo anywe iyo miti maze akire.

Abantu benshi bari kumwe harimo n'Umunyamahanga ndetse n'uri mu zabukuru wambaye indorerwamu z'amaso, bari gukina imikino baganira kugira ngo arekere kwigunga akomeze kugira ubuzima bwiza yumva atari wenyine.

Abantu batatu b'igitsina gore bishimye bari guseka birabura, harimo abambaye imirimbo yo ku matwi ndetse n'uri mu zabukuru, barimo gufata ifoto kugira ngo birinde ubwigunge iyo foto izababere urwibutso.

Umuntu w'igitsina gore wambaye umwambaro uciye amaboko. Aricaye ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zitandukanye. Harimo n'iz'umubyibuho ukabije, imitsi ndetse n'izindi. Kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, abeho yishimye.

Abantu babiri bari kumwe bishimye, bari guseka b'igitsina gabo, birarabura, umwe afite icupa mu ntoki ririmo amazi aribuze kunywa namara gukora imyitozo ngororamubiri, bombi bari gukora imyitozo ngororamubiri bishimye, bari guseka kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye harimo n'umubyibuho ukabije.

Abantu benshi bari hamwe, harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, harimo uri mu zabukuru, yicaye ku kagare k'abafite ubumuga, hari n'undi wambaye imyambaro yabugenewe, ari kumusunika kugira ngo amugeze aho bagomba kumufasha.

Abantu babiri b'igitsina gabo batagaragara igice cyo hasi ndetse n'igice cyo mu maso, umwe ari mu za bukuru undi yambaye agapfukamunwa ari kumwereka inzira ndetse amufasha amwitaho kugira ngo abone ko nawe yitaweho maze yishime areke kwigunga.

Abantu babiri bari kumwe b'igitsina gabo. Umwe ntabwo agaragara neza igice cyo mu maso ndetse n'igice cyo hasi. Undi ari mu zabukuru. Arishimye ari guseka. Ari gufata amafunguro akungahayemo indyo yuzuye ndetse n'ibitera imbaraga kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Icyapa kiri mu ishusho y'urukiramende, kiri kwerekana imbuto n'imboga abantu bashobora gukoresha bategura ifunguro ririho ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara ari zo mbuto kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza, bakomeze kwirinda kurya indyo idatunganyijwe.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bicaye ku ntebe abandi bahagaze imbere bari kubyina bateze amaboko imbyino nyarwanda. Barimo gukangurirwa kwirinda icyorezo giterwa n'agakoko ka SIDA ndetse no gushishikariza abantu muri rusange gukoresha agakingirizo cyangwa kwifata.

Benshi harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bicaye ku ntebe, bari gutanga ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima n'umutekano by'abaturage muri rusange, harimo ufite indangururamajwi ari kubwira abantu uko ingamba zafashwe zimeze kugira ngo zikurikizwe zishyirwe mu bikorwa.

Abantu benshi bari hamwe b'igitsina gore birabura, bishimye bari guseka, nyuma yo gusobanukirwa akamaro k'ibidukikije, ndetse no kumenya uruhare rwabo mu kubibungabunga.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo risa n'icunga rihishije ryandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru ririmo gushishikariza abato n'abakuze kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, kugira ngo birinde inda zitateganyijwe ndetse n'ibindi bibazo harimo nko gucikiriza amashuri.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Harimo abahagaze ndetse n'abicaye. Barimo gufata ifoto nyuma yo kuganira ku bijyanye no kwita ku bantu ndetse no gutanga inkingo muri rusange no kuganira ku birebana n'ubuzima bw'abantu no kubitaho neza.

Icyapa kinini kiri mu ishusho y'urukiramende, kiriho umuntu utagaragara igice cyo hejuru urwaye ubushita. Kirimo gushishikariza abantu kwirinda indwara iterwa n'ubushita bw'inkende kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane bari hamwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Bamwe baricaye abandi barahagaze. Barimo gufata ifoto nyuma y'uko higishijwe ko umugore na we akwiriye kwigira ndetse no gukorera hamwe kugira ngo azamure iterambere ry'ubukungu bwe.

Abantu benshi bari hamwe b'igitsina gabo birabura harimo abambaye impuzankano zabugenewe bari gutanga urukingo rw'indwara ku bantu batandukanye kugirango birinde ibyorezo bigiye bitandukanye.

Umuntu w’igitsina gore yicaye ku ntebe, wambaye indorerwamo z’amaso, afite indangururamajwi arimo kubwira abantu ingamba zafashwe kugira ngo ubuzima bwabo butajya mu kaga, ndetse buri wese amushishikariza kubigira ibye.

Abantu benshi bari hamwe bicaye mu cyumba cy'inyubako itangirwamo ubuvuzi, imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi ndetse na mudasobwa, bari guhabwa inama kubijyanye n'ubuzima muri rusange.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye abaganga bifashisha kugira ngo bavure abarwayi, ibitanda byo kubaryamishaho, mudasobwa, amatara ndetse n'ibindi bikoresho.

Icyumba cy'inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibikoresho byinshi cyane byabugenewe. Byifashishwa n'abaganga barimo gusuzuma ndetse no kuvura abarwayi indwara nyinshi zitandukanye, kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi bakore imirimo yabo nta kintu kibatega.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, ifite amadirishya ndetse n'imiryango, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abaganga bavura abantu, amatara abafasha kureba igihe bwije ndetse n'igihe ikirere kitameze neza bakabasha gusuzuma umurwayi nta nkomyi bahuye nayo.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye ,intebe zo kwicaraho, ameza ndetse n'imitako iri mu ibara ry'icyatsi kibisi ifite utubabi, ibi bikoresho abaganga babikoresha bicaraho bari guhana ibitekerezo.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hanze hari abantu b'igitsina gore baje bagana iyo nyubako ndetse n'abaganga bakoreramo kugira ngo basuzume barebe ikibazo bafite mu mubiri.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibikoresho byinshi bitandukanye nka mudasobwa n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga, bari kuvura abantu batandukanye indwara nyinshi kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Harimo ibikoresho byinshi byabugenewe abavuzi gakondo cyangwa se abavuzi bifashisha barimo kuvura indwara zitandukanye, intebe, udutanda two kuryamishaho abarwayi ndetse n'amashusho afasha abarwayi kwibuka n'ibindi.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye. Harimo ibikoresho byinshi bitandukanye. Amatara, za mudasobwa, utubati bifashisha mu kubikamo ibikoresho bindi byifashishwa n'abaganga bari kuvura abarwayi.

Inyubako nziza itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye. Harimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga nk'amatara, kugira ngo babone aho berekeza, ndetse babone n'uko basuzuma abarwayi bitabagoye.

Icyumba cy'inyubako gitangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abantu birinde indwara nyinshi zitandukanye, harimo nk'umubyibuho ukabije ndetse n'indwara z'imitsi.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo imiti yifashishwa bavura indwara zitandukanye kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza ndetse bakire n'izo ndwara barwaye. Harimo ibikoresho byinshi byabugenewe byifashishwa n'abaganga ndetse n'abandi mu gihe bari gutanga ubuvuzi bw'ibanze.

Inyubako nziza ndende, ifite amadirishya n'imiryango. Iyi nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, hanze hari ibendera ry'Igihugu, ibiti ndetse n'ibindi bimera.

Abantu benshi bari hamwe b'igitsina gabo, harimo uwambaye impuzankano zabugenewe, arimo kuvura undi muntu amutera urushinge kugira ngo arebe ikibazo afite mu mubiri, maze na we yoroherwe agire ubuzima bwiza.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, harimo ibikoresho bitandukanye byinshi abaganga bifashisha barimo gusuzuma abarwayi indwara barwaye ndetse n'aho kubika ibikoresho byabo bindi mu gihe basoje akazi.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Bicaye mu nzu y'inyubako itangirwamo ubuvuzi. Bambaye impuzankano zabugenewe, bari gukoresha ibikoresho bitandukanye bapima ndetse basuzuma ibintu byinshi bitandukanye, harimo no kureba ko ibyo bintu bigifite ubuziranenge.

Inyubako yubakishije ibati ry'ibara ry'umutuku. Ifite amadirishya n'imiryango. Itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye. Hanze hari ibimera by'icyatsi kibisi ndetse n'akayira gafasha ababagana kubageraho bitabagoye.

Inyubako nziza itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, ifite amadirishya ndetse n'imiryango. Iyi nyubako abantu bafite ibibazo by'uburwayi bitandukanye, barayigana kugira ngo babakemurire ibyo bibazo ndetse babahe n'imiti ibafasha.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye nk'amatara, udutanda two kuryamishaho abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho abaganga bifashisha bita ku barwayi kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse bakire n'indwara barwaye.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, amatara, udube, udutanda two kuryamishaho abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho, abaganga babikoresha bavura abarwayi aho baryamisha umurwayi ku gatanda bakamusuzuma indwara arwaye.

Umwana mutoya, wicaye mu kagare k'abafite ubumuga. Imbere ye hari inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye ndetse n'izo ngizo z'abafite ubumuga. Ari kugana kuri iyo nyubako kugira ngo arebe y'uko bamufasha na we akagira ubuzima bwiza.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye nk'utubati ndetse n'ibindi bikoresho, abaganga babyifashisha bari kuvura abantu indwara zitandukanye, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba cy'ubuvuzi kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bwinshi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi byabugenewe byo gukora imyitozo ngororamubiri nk' utugare ndetse n'ibindi. kugira ngo umuntu yirinde umubyibuho ukabije akoresha bino bikoresho ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu benshi bari hamwe harimo abato ndetse n'abakuze baje guhesha abana inkingo z'indwara zitandukanye, abana bari kubapima ibiro kugira ngo bakurikirane imibereho y'ubuzima bwabo barwanya igwingira ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi byabugenewe, byifashishwa n'abaganga mu gihe bari gukora akazi kabo, intebe, ameza, mudasobwa, utubati ndetse n'ibindi bikoresho.

Inyubako ifite amadirishya n'inzugi bisize irangi ry'umweru, itangirwamo ubuvuzi ku babyeyi bakuriwe, bagejeje ku gihe cyo kwibaruka, hanze hari abantu b'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bari kuganira ku mibereho myiza y'abo babyeyi kugira ngo bakomeze kugira ngo bakomeze ubuzima bwiza.

Inyubako nziza cyane ifite amadirishya ndetse n'imiryango, ikorerwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, hanze hari ibimera ndetse n'ibindi, iyi nyubako yifashishwa kugirango itange buri kintu cyose umurwayi akenera.

Inyubako irimo imiti myinshi itandukanye yo kuvura abarwayi, hanze y'iyo nyubako hari umuntu uhahagaze wirabura ndetse n'amapikipiki azanye abantu kugira ngo bafate imiti itandukanye y'indwara barwaye.

Inyubako nziza ndende yubakishije amabati y'umutuku, ifite amadirishya n'imiryango, iyi nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye nyinshi, hanze hari ibendera ryigihugu, ibinyabiziga ndetse n'ibindi bimera.

Inyubako nziza zubakishije amabati ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, izi nyubako zitangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, hanze hari ubusitani bwiza ndetse n'ibindi biti, hari imodoka ndetse n'ibimera.

Abantu benshi cyane bari hamwe b'igitsina gore bicaye ku ntebe mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, harimo uwicaye mu kagare k'abafite ubumuga, undi ari ku mwitaho kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Harimo n'abanyamahanga. Barimo gufata ifoto imbere y'inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye. Harimo n'abambaye indorerwamo z'amaso bifashisha kugira ngo barebe ibintu biri kure yabo.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi byabugenewe byifashishwa kugira ngo bite ku barwayi neza, harimo udutanda two kuryamishaho abarwayi, udutebe ndetse n'ibindi.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye hanze hari abantu batatu birabura harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore umwe yicaye mu kagare k'abafite ubumuga undi ari kumusunika kugira ngo amugeze kuri iyo nyubako bamuhe ubuvuzi bw'ibanze.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara z'amaso yubakishije amabati, ifite amadirishya n'imiryango, hanze hari umwanya ibinyabiziga bihagaramo, iyo bizanye abarwayi kugira ngo babavure amaso.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, intebe udutanda two kuryamishaho abarwayi mudasobwa n'ibindi, ibikoresho abaganga babikoresha basuzuma abarwayi indwara nyinshi zitandukanye kugira ngo babavure zikire.

Icyumba kiri mu nzu itangirwamo ubuvuzi. Kibitsemo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo utubati. Abaganga babyifashisha babikamo ibikoresho byabo byinshi bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abaganga barimo gusuzuma no kuvura abarwayi indwara nyinshi zitandukanye, udutanda two kuryamishaho abarwayi, Mudasobwa n'ibindi byifashishwa n'abo baganga.

Icyapa kinini kiranga inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, iruhande rw'icyo cyapa hari ibendera ry'igihugu riranga igihugu iyo nyubako irimo, hari inyubako ndende itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye abaganga bakoresha bavura abantu indwara nyinshi zitandukanye, nk'utubati, amatara ndetse n'ibindi bikoresho.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye, udutebe, udutanda two kuryamishaho abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha bari kureba umuntu wagize imvune, mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako nziza cyane itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, ifite amadirishya ndetse n'imiryango, hanze hari ibimera by'icyatsi kibisi byiza cyane na byo ndetse n'ibiti.

Inyubako nziza ifite umuryango, amadirishya ndetse n'amatara. Harimo imitako ndetse n'ibindi. Iyi nyubako bayifashisha batanga ubuvuzi bwinshi bw'indwara zitandukanye.

Inyubako nziza ifite amadirishya ndetse n'imiryango, iyi nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, hanze hari ibimera ndetse n'ubusitani bwiza, hari akayira abantu bifashisha bagana iyo nyubako.

Icyumba kiri mu nyubako, itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye. harimo abantu batatu. Harimo abambaye impuzankano zabugenewe, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi. Harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, mudasobwa, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi cyane zitandukanye. Harimo ibikoresho byabugenewe, byinshi bikoreshwa. Intebe, mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho. Abaganga barabyifashisha kugira ngo bavure abantu.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye abaganga bifashisha bari kuvura abantu kugira ngo bakire izo ndwara. Udutanda two kuryamishaho abarwayi, udutebe, utubati two kubikamo ibikoresho ndetse n'ibindi.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye harimo n'izo gukomereka mu gihe wagize ikibazo uri gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bitandukanye, intebe ndetse n'ibindi byifashishwa mu kwicarwaho n'abarwayi.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi byabugenewe, intebe, mudasobwa, ndetse n'ibindi. Harimo umuganga wambaye impuzankano zabugenewe uri kureba niba ibisubizo ahaye abantu barwaye ari byo koko.

Abantu babiri harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, umwe yambaye impuzankano zabugenewe afite imisatsi miremire; bari mu cyumba cy'inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Umwe ari kumusuzuma indwara zitandukanye kugira ngo abashe kureba ko yamuha imiti imukiza izo ndwara.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, aho abaganga baryamisha abarwayi ku dutanda ndetse bakabacisha mu cyuma, bakareba indwara barwaye.

Inyubako itangirwamo imiti y'indwara zitandukanye, hanze hari ipikipiki yifashishijwe izana umurwayi uje gufata imiti y'indwara ndetse hahagaze n'umuntu uje gufata iyo miti.

Inyubako iri mu nzu itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye utubati, intebe, gatanda ko kuryamishamo umwana ndetse n'ibindi n'ibyo kwifashisha mu gupima ibiro.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye. Harimo ibikoresho byinshi bitandukanye. Ibikoresho byo gukoreraho imyitozo ngororamubiri kugira ngo abantu birinde indwara nyinshi zitandukanye, harimo n'umubyibuho ukabije.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bicaye ku ntebe, harimo uwambaye impuzankano zabugenewe ndetse n'agapfukamunwa, ari kubaganiriza kugira ngo amenye ibibazo bafite ndetse nuko yabafasha.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi byabugenewe, byifashishwa n'abaganga bari kuvura abantu bagize ibibazo byaba ari ibibazo by'imvune cyangwa se ibindi bibazo, bifashisha ibyo bikoresho barimo kubaha ubuvuzi bw'ibanze ndetse no kugira ngo bamenye ikibazo bafite.

Inyubako nziza ndende, ifite amadirishya n'imiryango, ikorerwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, aho abantu babagana bakabaha ubuvuzi ku ndwara iyo ariyo yose barwaye.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, harimo ibikoresho bikoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza, birinde n'indwara nyinshi, harimo imitsi ndetse n'izindi ndwara nk'umubyibuho ukabije.

Inyubako ndende nziza itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, ifite amadirishya ndetse n'imiryango, hanze hari ibinyabiziga, ibiti ndetse n'ibindi bimera, hari akayira abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bikoresha barimo kugana iyo nyubako ngo babafashe.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi cyane zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye abaganga bifashisha bari gusuzuma ndetse no kuvura abantu indwara zitandukanye, harimo mudasobwa, udutanda two kuryamishaho abarwayi, intebe, amatara ndetse n'izindi nsakazamashusho.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye, intebe, utubati ndetse n'ibindi, abavuzi babikoresha barimo kuvura abantu batandukanye ndetse babika n'ibikoresho bindi bitandukanye byabugenewe bikoreshwa.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibikoresho byinshi nk'amatara ndetse n'udutanda two kuryamishamo abarwayi. Harimo abaganga bambaye impuzankano zabugenewe, bari kuganira ku mibereho myiza y'umurwayi bagiye kuvura.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, amatara, udutanda two kuryamishaho abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho, ibi bikoresho abavuzi babyifashisha barimo kuvura abantu kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyapa kiri mu mabara atandukanye cyerekana inzu itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, ifite amadirishya n'imiryango. Hanze hari igiti kinini, ibimera bitandukanye by'icyatsi kibisi, ndetse n'akayira kajya kuri iyo nyubako.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye. Harimo ibikoresho byinshi byabugenewe abaganga bifashisha barimo kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Za mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho birifashishwa.

Inyubako nziza ifite amadirishya ndetse n'imiryango. Itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye. Hanze hari ikinyabiziga ndetse n'akayira abaturage bifashisha bagana iyo nyubako kugira ngo babahe ubutabazi bw'ibanze, bakomeze kugira ubuzima bwiza ndetse bakire n'izo ndwara.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, ifite amadirishya ndetse n'imiryango, hanze hari indabyo ndetse n'ibindi bimera, hari akayira k'abanyamaguru, abantu bifashisha baje kugana iyo nyubako.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, hanze hari ibimera by'ubwoko bwinshi butandukanye. Hari abantu bari kuva kuri iyo nyubako bahawe ubuvuzi, ndetse bari kugenda bagana imuhira.

Inyubako nziza ikorerwamo ubushakashatsi bw'indwara zitandukanye, yubakishije amabati ari mu ibara ry'ubururu, ifite amadirishya n'imiryango, hanze hari akayira abashakashatsi banyuramo bagana iyo nyubako, hari imodoka, hari ubusitani bwiza ndetse n'ibiti.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye. Harimo ibikoresho byinshi byifashishwa n'abaganga barimo kuvura abantu ndetse bari kubafasha kugira ngo bakire indwara nyinshi baba bafite zitandukanye. Harimo abantu bambaye imyambaro yabugenewe barimo gufasha abarwayi baje babagana.

Umuntu w'igitsina gabo, wirabura, wambaye imirimbo ku kuboko. Ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza, yirinde indwara zitandukanye harimo umubyibuho ukabije, imitsi ndetse na rubagimpande.

Abantu benshi bari hamwe harimo abakuze ndetse n'abatoya. Bari mu kibuga bakiniramo imikino itandukanye ndetse banakoreramo imyitozo ngororamubiri kugira ngo birinde indwara nyinshi harimo umubyibuho ukabije ndetse n'iz'imitsi.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi cyane byifashishwa n'abaganga bavura indwara zitandukanye, igihe umuntu yagize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo umuntu wambaye impuzankano zabugenewe arimo kureba uburyo yakita ku barwayi.

Ibikoresho binshi biri hamwe bibitsemo imiti myinshi itandukanye, harimo ivura ibikomere igihe abantu bameze imyitozo ngororamubiri bagakomereka, iy'irimo kuvura ubushye ndetse n'izindi ndwara.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura utagaragara igice cyo mu maso, wambaye umwambaro uciye amaboko. Ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zitandukanye harimo nk'umubyibuho ukabije.

Umuntu w'igitsina gore utagaragara igice cyo mu maso wambaye umwambaro uciye amaboko ari gukora imyitozo ngororamubiri yicaye kugira ngo yirinde indwara nyinshi harimo n'iz'umubyibuho ukabije, imitsi ,ndetse n'izindi ndwara.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara neza igice cyo mu maso ndetse n'igice cyo hasi, wambaye umwambaro uciye amaboko ndetse n'isaaha ku kuboko, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zitandukanye harimo nk'umubyibuho ukabije.

Umuntu w'igitsina gore utagaragara igice cyo mu maso, wambaye umwambaro uciye amaboko, aricaye ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara nyinshi zitandukanye, harimo iz'imitsi ndetse n'umubyibuho ukabije.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara igice cyo mu maso ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara nyinshi zitandukanye harimo iz'umubyibuho ukabije, imitsi, ndetse n'izindi.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura utagaragara igice cyo hejuru ndetse n'igice cyo hasi, ufite icupa ry'amazi mu kaboko ari kuyanywa, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse yirinde n'indwara zitandukanye harimo umubyibuho ukabije.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo igikoresho cyabugenewe, bifashisha bari gusuzuma umuntu indwara zitandukanye, harimo nk'ibikomere, kuvunika kw'amagufwa igihe yagize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri. Bamucisha muri iki cyuma kugira ngo barebe ko amagufwa ye nta kibazo afite.

umuntu w'igitsina gabo wirabura ufite icupa ry'amazi mu ntoki uri gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse yirinde indwara zitandukanye harimo n'iz'umubyibuho ukabije.

Umuntu w'igitsina gore utagaragara igice cyo mu maso wambaye umwambaro uciye amaboko, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza, yirinde indwara zitandukanye n'umubyibuho ukabije ndetse n'iza rubagimpande.

Umuntu w'igitsina gore utagaragara igice cyo mu maso, ufite imisatsi miremire wambaye umwambaro uciye amaboko, arimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara nyinshi zitandukanye harimo n'umubyibuho ukabije.

Abantu babiri bari kumwe batagaragara igice cyo mu maso n'igice cyo ku maguru, bafite amacupa mu ntoki arimo amazi. Bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagire ubuzima bwiza, inyuma yabo hari imisozi ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara igice cyo hejuru, arirabura, yambaye umwambaro uciye amaboko, afite icupa mu ntoki ririmo amazi ari ku yanywa, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara nyinshi zitandukanye, harimo n'umubyibuho ukabije.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, iki cyumba abantu bakizamo bagiye gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye harimo n'umubyibuho ukabije.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara igice cyo hasi wirabura, afite icupa mu ntoki ari kunywa amazi ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara nyinshi zitandukanye, harimo n'umubyibuho ukabije kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara igice cyo hepfo, wambaye umwambaro uciye amaboko, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara nyinshi zitandukanye harimo imitsi ndetse n'umubyibuho ukabije, afite icupa ry'amazi mu ntoki ari kuyisukaho.

Ibikoresho byinshi cyane bitandukanye bibitsemo imiti myinshi itandukanye. Iyi miti bayikoresha igihe umuntu yagize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri, kuvunika, ikindi kibazo ku ruhu ndetse n'ibikomere. Bakoresha iyi miti kugira ngo bamwomore ibikomere kandi banamuvure imvune.

Abantu benshi cyane bari hamwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsinabo. Bari mu marushanwa yo gukora imyitozo ngororamubiri, aho bahabwa ibihembo ku muntu wayatsinze akaba uwa mbere. Inyuma yabo hari abantu bari kubafana bitewe n'uko babakunda.

Abantu benshi bari kumwe, bari mu cyumba cy'inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi byabugenewe, byifashishwa mu kuvura umuntu igihe agize ikibazo nyuma y'uko akoze imyitozo ngororamubiri, agakomereka cyangwa agahura n'ikindi kibazo muri rusange.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura utagaragara igice cyo hepfo, wambaye umwambaro uciye amaboko, afite icupa ribitsemo amazi ari kuyanywa, ari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara nyinshi harimo umubyibuho ukabije, imitsi ndetse n'izindi.

Icyapa kinini kiri mu ishusho y'ubukiramende. Hariho ibintu byinshi cyane bitandukanye. Imbuto, n'imboga, n'amagi. Ndetse hariho umuntu w'igitsina gabo, uri gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo agire ubuzima bwiza, yirinde indwara harimo umubyibuho ukabije.

Umuntu wirabura utagaragara igice cyo hejuru ndetse n'igice cyo hasi usize irange ku ntoki, arimo kwivura nyuma y'uko akoze imyitozo ngororamubiri agakomereka, ari kwivura akoresheje barafu kugira ngo imugabanyirize ububabare.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo birinde indwara nyinshi, harimo iz'umubyibuho ukabije, imitsi, rubagimpande ndetse n'izindi ndwara, kugira ngo bagire ubuzima bwiza bakoresha bino bikoresho basimbuka, bakina ndetse bakora n'ibindi.

Umuntu wirabura utagaragara igice cyo hejuru ndetse n'igice cyo hasi. Ari gukora ubuvuzi bw'ibanze, nyuma y'uko yavunitse ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye umwambaro uciye amaboko. Ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, ndetse no kwirinda indwara zitandukanye harimo n'umubyibuho ukabije. Inyuma ye, hari intebe ndetse n'ibindi bikoresho.

Abantu babiri batagaragara igice cyo hejuru ndetse n'igice cyo hasi, umwe ari guha undi ubuvuzi bw'ibanze, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri agakomereka. Ari gukoresha ibikoresho byabugenewe amwitaho kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abantu birinde indwara, harimo umubyibuho ukabije, imitsi ndetse n'izindi, iruhande rwabyo hateretse imbuto n'imboga abantu barya bamaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gore utagaragara igice cyo mu maso ndetse n'igice cyo hepfo, ufite icupa mu ntoki ari kunywa amazi, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zitandukanye harimo nk'umubyibuho ukabije ndetse n'izindi.

Icyapa kiri mu ishusho y'urukiramende, kiriho umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo yirinde indwara zitandukanye, harimo n'iz'umubyibuho ukabije, hariho imbuto ndetse n'imboga twifashisha dutegura amafunguro, kugira ngo turye indyo yuzuye.

Abantu benshi bari hamwe harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bari mu muryango utanga ubuvuzi bw'ibanze ku muntu wagize ikibazo icyo ari cyo cyose, bambaye impuzankano yabugenewe, harimo undi muntu uri kubigisha uburyo ki batanga ubuvuzi bw'ibanze ku muntu wagize ikibazo.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kubikamo imiti myinshi itandukanye, abaganga bayikoresha batanga ubuvuzi ku muntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri agakomereka kugira ngo imugabanyirize ububabare.

Abantu benshi bari hamwe harimo n'abanyamahanga. Harimo uwambaye imyambaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri. Bari kumukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo atsindire ibihembo bitandukanye.

Umuntu w'igitsina gore wirabura utagaragara igice cyo mu maso ndetse n'igice cyo hasi, wambaye umwambaro uciye, uri gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo agire ubuzima bwiza yirinde indwara harimo n'umubyibuho ukabije.

Abantu babiri bari kumwe, batagaragara igice cyo hejuru mu maso, umwe yambaye impuzankano zabugenewe afite n'ibikoresho byifashishwa kwa muganga byabugenewe. Ari guha undi ubuvuzi bw'ibanze wagize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kumufasha kurambura ingingo zimwe na zimwe zitari kubasha gukora.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura utagaragara igice cyo mu maso, ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo yirinde indwara nyinshi zitandukanye, harimo imitsi, umubyibuho ukabije, ndetse n'izindi ndwara kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abaganga bari kuvura umuntu wagize ikibazo nyuma y'uko akoze imyitozo ngororamubiri agahura n'ibibazo bitandukanye, harimo umuntu wambaye imyambaro yabugenewe.

Abantu benshi bari hamwe harimo n'abanyamahanga bambaye indorerwamo z'amaso bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara zitandukanye harimo n'umubyibuho ukabije.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo izo gukomereka nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, harimo udutanda two kuryamishaho abarwayi mu gihe bari kubasuma, ndetse n'amatara, n'ibindi bikoresho abaganga bifashisha mu kuvura ibikomere bigiye bitandukanye.

Icyapa kiri mu ishusho y'urukiramende kinini, kiriho ibintu byinshi bitandukanye, abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri ndetse kiri gushishikariza abantu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye ahubwo imyitozo ngororamubiri ibabere nk'umuti ndetse n'urukingo.

Ibikoresho byinshi cyane bitandukanye byifashishwa mu kubika imiti myinshi itandukanye. Harimo imiti ivura ububabare, imvune ndetse n'ibindi mu gihe wagize ikibazo uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Igikoresho cyabugenewe gikoreshwa igihe umuntu amaze gukora imyitozo ngororamubiri, yahuye n'ikibazo runaka. Iki gikoresho abavuzi bagikoresha mu gihe babona ko umuntu yahuye n'indwara zitandukanye ari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu babiri batagaragara igice cyo hejuru b'abanyamahanga, umwe ari guha undi ubuvuzi bw'ibanze igihe yakomeretse ari gukora imyitozo ngororamubiri akavunika.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byabugenewe harimo itoroshi ndetse na ga, bikoreshwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze igihe umuntu yakomeretse amaze gukora imyitozo ngororamubiri, bakamufasha kugira ngo areke gukomeza kugira uburibwe ahubwo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi bari hamwe, bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo birinde indwara zitandukanye, harimo iz'imitsi ndetse n'izarubagampande ndetse kandi n'umubyibuho ukabije, bambaye impuzankano zabugenewe mu gukora siporo kugira ngo birinde.

Icyapa kinini kiri mu ishusho y'urukiramende. Kiriho umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse n'ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri, nko kugabanya isukari, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza, buzira umuze.

Imiti myinshi y'ubwoko butandukanye iri hamwe yifashishwa n'abaganga batanga ubuvuzi bw'ibanze bavura indwara zitandukanye harimo iz'ubuhumekero, ubushye gukomereka, imvune n'ibindi.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara igice cyo hejuru ndetse n'igice cyo hasi, wicaye ku ntebe, wirabura. Ari kwikorera ubuvuzi bw'ibanze, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri akavunika ukuboko.

Umuntu w'igitsina gore wirabura. wambaye umwambaro uciye amaboko, ufite imisatsi miremire. Ari gukora imyitozo ngororamubiri yicaye, kugira ngo yirinde indwara nyinshi zitandukanye, harimo n'umubyibuho ukabije. Imbere ye hari icupa ryabugenewe ririmo amazi meza, aribuze kuyanywa narangiza gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu babiri harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore batagaragara igice cyo mu maso, umwe ari guha ubuvuzi bw'ibanze umuntu wakomeretse ari gukora imyitozo ngororamubiri akavunika, yambaye impuzankano yabugenewe.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara igice cyo mu maso ndetse n'igice cyo hepfo wambaye umwambaro uciye amaboko, uri mu ibara ry'icyatsi kibisi ari kunywa amazi, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza yirinda indwara harimo n'umubyibuho ukabije.

Imbuto ndetse n'imboga zitandukanye, harimo na pome, ndetse n'ibikoresho byabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abantu birinde indwara zitandukanye, harimo n'iz'umubyibuho ukabije, ndetse n'imitsi.

Abantu benshi bari hamwe, harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Barimo guha umuntu ubuvuzi bw'ibanze bifashishije agatanda ko kuryamishaho umurwayi ndetse n'ibindi bikoresho, nyuma y'uko akoze imyitozo ngororamubiri agahura n'ikibazo cy'imvune ndetse n'ibindi bibazo.

Abantu babiri, bari hamwe. Umwe ntabwo agaragara, igice cyo hejuru ndetse n'igice cyo hasi. Yambaye isaha ku kuboko. Arimo guha ubuvuzi bw'ibanze umuntu wagize ikibazo, ari gukora imyitozo ngororamubiri, akavunika.

Ibikoresho byinshi cyane bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze igihe umuntu yagize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri, iyi miti n'ibi bikoresho ibitsemo ivura abantu bagize ibibazo bitandukanye, nk'imvune ndetse n'ibindi.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibikoresho byinshi by'ubwoko butandukanye, nka kizimyamowoto yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, harimo umuntu wambaye impuzankano yabugenewe.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo amacupa arimo amazi bari bunywe nibarangiza gukora imyitozo ngororamubiri, hari imbuto bari bwifashishe na zo barya kugira ngo birinde indwara nyinshi.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abaganga bavura abantu indwara zitandukanye nk'udutanda two kubaryamishaho igihe bari kubasuzuma ndetse na za mudasobwa bakoresha.

Umuntu w'igitsina gabo, wirabura, utagaragara igice cyo hejuru ndetse n' igice cyo hasi. Ari kwikorera ubuvuzi bw'ibanze akoresheje igikoresho cyabugenewe, nyuma y'uko akoze imyitozo ngororamubiri akagira ikibazo cy'imvune.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye utagaragara igice cyo mu maso w'umunyamahanga, ufite isaha ku kuboko wambaye udukoresho bifashisha wumva imiziki n'ibindi, ufite icupa ry'amazi ari kuyanywa nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gore utagaragara igice cyo mu maso ndetse n'igice cyo hasi, ufite icupa ry'amazi ari kuyanywa nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse yirinde n'indwara zitandukanye, harimo umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara.

Ibikoresho byifashishwa mu kubikamo imiti ikomoka ku bimera y'indwara zitandukanye, abavuzi gakondo bayikoresha bavura abantu izo ndwara, harimo nko kugabanya ububabare ndetse n'izindi ndwara kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara igice cyo hejuru ndetse n'igice cyo hasi wambaye umwambaro uciye amaboko. Ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zitandukanye harimo umubyibuho ukabije ndetse akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako irimo ibikoresho byinshi byabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, nko kwirukanka ibirometero byinshi ndetse no kugorora izindi ngingo. Ibi bikoresho abantu babikoresha bari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye.

Umuntu w'igitsina gore wirabura utagaragara igice cyo hasi, wambaye umwambaro uciye amaboko ufite umusatsi muremure ndetse n'isaha, yambaye udukoresho bifashisha mu kumva umuziki n'ibindi, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, ndetse yirinde n'indwara zitandukanye.

Abantu benshi bari hamwe, batagaragara igice cyo mu maso. Bari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye, harimo imitsi, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara. Bakomeza gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo bashishikarize abandi kandi bahurire hamwe, bareme ubushuti.

Ikirango kiri mu mabara atandukanye, umweru, umuhondo, umukara, cyerekana abantu babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye, harimo nk'umubyibuho ukabije, ndetse n'izindi ndwara.

Umuntu w'igitsina gabo, utagaragara igice cyo hejuru ndetse n'igice cyo hasi. Wambaye umwambaro uciye amaboko. Ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo yirinde indwara nyinshi zitandukanye, harimo umubyibuho ukabije ndetse n'izindi.

Abantu babiri harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo b'abanyamahanga, bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo birinde indwara nyinshi zitandukanye harimo n'iz'umubyibuho ukabije, bari gukoresha ibikoresho byabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu babiri bari hamwe batagaragara igice cyo hejuru ndetse n'igice cyo hasi, umwe yambaye impuzankano zabugenewe ari kuvura undi amukoresheje imyitozo ngororamubiri kugira ngo ingingo ze zirambuke nyuma yuko akoze imyitozo ngororamubiri akagira imvune.

Ikimera kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, gifite uturabo dusa n'umuhondo usa n'icunga rihishije, giteye mu butaka. Iki kimera abavuzi gakondo bagikoresha barimo kuvura indwara zitandukanye harimo: ibicurane, inkorora ndetse n'ibindi.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika umuti ukomoka ku kimera, abavuzi gakondo bakoresha uwo muti bavura abantu batandukanye indwara zitandukanye, harimo n'indwara z'uruhu kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bakire izo ndwara.

Igikoresho kifashishwa mu kubikamo imiti myinshi itandukanye ikomoka ku bimera, abaganga bayikoresha bavura abantu indwara zitandukanye, harimo n'izo kubongerera amaraso kugira ngo bagire ubuzima bwiza bongere bagaruke ibuntu.

Ibikoresho byifashishwa mu kubika imiti myinshi itandukanye ikomoka ku bimera, iyi miti abavuzi gakondo bayikoresha bari kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye kugira ngo abo bantu bakire bakire ubuzima bwiza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kubika imiti myinshi itandukanye ikomoka ku bimera iyi miti abavuzi gakondo bayikoresha barimo kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi bakire.

Ibikoresho byinshi cyane bitandukanye, bibitsemo imiti myinshi itandukanye, ikomoka ku bimera. Iyi miti, abavuzi gakondo bayikoresha bari kuvura abantu, indwara nyinshi zitandukanye, harimo n'indwara z'uruhu. Inyuma y'iyo miti hari abantu, baje kugura iyo miti kugira ngo bajye bayikoresha, maze bagire ubuzima bwiza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bibitsemo imiti ikomoka ku bimera harimo n'igikakarubamba. Iyi miti abavuzi gakondo bayikoresha bari kuvura abantu benshi indwara zitandukanye harimo n'indwara y'uruhu.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bibitsemo imiti ikomoka ku bimera. Abavuzi gakondo bakoresha iyi miti barimo kuvura umuntu wagize ibibazo bitandukanye, nko kuvunika urutirigongo, kubabara urukebu ndetse n'izindi ndwara.

Ibikoresho byifashishwa mu kubika imiti y'ubwoko itandukanye ikomoka ku bimera harimo n'igikakarubamba. Iyi miti abavuzi gakondo bayikoresha bavura abantu indwara zitandukanye harimo n'indwara z'uruhu kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Ikimera cyiza kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi giteye mu butaka, abavuzi gakondo bifashisha iki kimera bari kuvura abantu benshi batandukanye, indwara nyinshi kugira ngo bakire izo ndwara bagire ubuzima bwiza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bibitsemo imiti ikomoka ku bimera, harimo na tangawizi. Abavuzi gakondo bifashisha iyi miti bari kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye, harimo inkorora ndetse n'izindi, kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Umuti mwiza ukomoka ku kimera witwa tangawize, abavuzi bawukoresha bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye harimo nk'inzoka ndetse n'izindi ndwara kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Ikimera cyiza kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi giteye mu butaka, abavuzi gakondo bakoresha iki kimera bavura abantu indwara nyinshi zitandukanye harimo: inkorora, ibicurane ndetse n'izindi ndwara.

Imiti myinshi cyane itandukanye ikomoka ku bimera, iyi miti abavuzi gakondo bayikoresha bari kuvura indwara nyinshi zitandukanye abantu, harimo n'indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Igikoresho cyifashishwa mu kubikamo umuti ukomoka ku bimera harimo igikakarubamba abavuzi gakondo bawukoresha bavura abantu indwara zitandukanye harimo iz'uruhu ndetse n'izindi ndwara.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kubikamo imiti gakondo itandukanye, ikoreshwa ku bimera abavuzi gakondo bakoresha iyi miti bavura abantu batandukanye harimo indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara.

Igikoresho cyifashishwa mu kubikamo umuti ukomoka ku bimera. Abavuzi bakoresha uwo muti bavura abantu batandukanye indwara kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze bakomeze gukora ibikorwa byabo nta kibabangamiye.

Ni igikoresho cyifashishwa mu kubika umuti ukomoka ku kimera. aAri wo umuravumba. Uyu muti abavuzi gakondo bawukoresha bari kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo inkorora, ibicurane, ndetse n'ibindi.

Imiti myinshi itandukanye ikomoka ku bimera. Abavuzi gakondo bakoresha iyi miti bari kuvura indwara zitandukanye abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze. Ndetse babeho batekanye bakore imirimo yabo nta kintu kiba...

Imiti myinshi cyane ikomoka ku bimera abavuzi gakondo bakoresha iyi miti bavura abantu indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu ndetse n'izindi ndwara kugira ngo abazirwaye bakomeze kugira ubuzima bwiza bakire.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika imiti ikomoka ku bimera, abavuzi gakondo bakoresha iyi miti bavura abantu indwara zitandukanye, harimo indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara kugira ngo abo bavura bakire izo ndwara kandi bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bibitsemo imiti myinshi itandukanye ikomoka ku bimera. Abavuzi gakondo bayikoresha bari kuvura abantu indwara zitandukanye, harimo n'indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara.

Igikoresho cyifashishwa mu kubikamo umuti ukomoka ku kimera, kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, abaganga gakondo babikoresha bavura abantu indwara nyinshi zitandukanye kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Igikoresho cyifashishwa mu kubikwamo umuti ukomoka ku kimera, uyu muti abavuzi gakondo bawukoresha bari kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze kandi bakomeze gukora imirimo yabo nta kintu kibatega.

Imiti myinshi y'ubwoko butandukanye ikomoka ku bimera, iyi miti abavuzi gakondo bayikoresha bari kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye, harimo indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara kugira ngo bakire izo ndwara, bakoresha iyi miti kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, bibitsemo imiti myinshi itandukanye, ikomoka ku bimera harimo n'igikakarubamba. Iyi miti abavuzi gakondo bayikoresha barimo kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo indwara z'uruhu ndetse no komora ibikomere mu gihe bakomeretse kugira ngo abo bantu bakire ibyo bikomere, barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho byinshi byifashishwa mu kubika imiti myinshi itandukanye ikomoka ku bimera. Harimo nk'igikakarubamba. Abavuzi gakondo bakoresha iyi miti bavura abantu indwara zitandukanye, harimo nk'indwara z'uruhu. Bagakira, bakagira ubuzima bwiza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa bibikwamo imiti myinshi itandukanye ituruka ku bimera, abavuzi gakondo bifashisha bavura indwara abantu zitandukanye, harimo n'indwara z'uruhu.

Ibikoresho bibitsemo imiti itandukanye, ikomoka ku bimera. Iyi miti abavuzi gakondo, bayikoresha bari kuvura abantu indwara zitandukanye, harimo inkorora, ibicurane ndetse n'izindi ndwara.

Igikoresho cyifashishwa mu kubikamo umuti ukomoka ku bimera witwa igikakarubamba. Uyu muti abavuzi bawukoresha bavura indwara nyinshi zitandukanye, harimo n'indwara z'uruhu, kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika umuti ukomoka ku kimera ariwo igikakarubamba. Uyu muti abavuzi gakondo bawukoresha bari kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye, harimo n'iz'amenyo kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse bahorane akamwenyu ku maso bishimye.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kubikamo imiti ikomoka ku kimera harimo n'igikakarubamba, abavuzi gakondo bayikoresha bavura abaturage indwara zitandukanye, harimo n'indwara z'uruhu kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Ikimera cyiza kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi giteye mu butaka, iki kimera abavuzi gakondo bagikoresha barimo kuvura indwara nyinshi zitandukanye kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza buzira umuze bakomeze gukora ibintu bibareba ndetse n'akazi kabo nta kibabangamiye.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika imiti yandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, hariho ikimera cyifashishwa n'abavuzi gakondo, bavura indwara zigiye zitandukanye, abantu kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika umuti ukomoka ku bimera ndetse n'ibindi abavuzi gakondo bakoresha uyu muti bavura abantu indwara zitandukanye harimo inkorora, uruhu ndetse n'izindi ndwara kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, harimo imiti myinshi cyane itandukanye ikomoka ku bimera, bifashisha bari kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye harimo n'iz'uruhu ndetse n'imvune n'izindi.

Umuti ukomoka ku kimera gifite amababi asa icyatsi kibisi, uyu muti abavuzi gakondo bawukoresha bari kuvura abantu indwara zitandukanye harimo n'indwara y'inkorora ndetse n'izindi ndwara.

Igikoresho kifashishwa mu kubikamo umuti ukomoka ku kimera, abavuzi gakondo bawifashisha bavura abantu indwara nyinshi zitandukanye, harimo n'indwara z'uruhu kugira ngo abaturage bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibikoresho bibiri bitandukanye byifashishwa mu kubika umuti ukomoka ku bimera ari wo igikakarubamba. Uyu muti abavuzi gakondo bawukoresha bari kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye, harimo indwara z'uruhu.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bibitsemo imiti myinshi itandukanye ikomoka ku bimera, iyi miti abavuzi gakondo bayikoresha bari kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye, harimo n’indwara z’uruhu.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika umuti ukomoka ku kimera, uyu muti abavuzi gakondo bawukoresha bari kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza, babeho bishimye nta kibazo bafite.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bibitsemo imiti ikomoka ku bimera, abavuzi gakondo bakoresha iyi miti bavura abantu indwara zitandukanye harimo n'indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara, kugira ngo abantu bazirwaye bazikire vuba.

Ibikoresho byinshi c yane bitandukany e, byifashishwa mu kubikamo imiti

Imiti myinshi y'ubwoko butandukanye ikomoka ku bimera, abavuzi gakondo bakoresha iyi imiti bavura abantu indwara zitandukanye, harimo nko kwibagirwa ndetse n'izindi. Iyi miti abantu bayikoresheje baba bishimye, bagahorana akanyamuneza.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika umuti ukomoka ku kimera, harimo igikakarubamba, abavuzi gakondo bakoresha imiti bavura abantu indwara zitandukanye, harimo indwara z'uruhu, ndetse n'izindi ndwara, kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza babeho bishimye bahorane akamwenyu.

Ibikoresho byifashishwa mu kubika imiti itandukanye ikomoka ku bimera yifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura indwara abantu zitandukanye, harimo n'izo kwita ku ruhu rwabo.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bibitsemo umuti ukomoka ku bimera, uyu muti abavuzi gakondo bawukoresha bari kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye, harimo iz'uruhu ndetse n'izindi.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika imiti myinshi itandukanye ikomoka ku bimera, harimo igikakarubamba uyu muti abavuzi gakondo bawukoresha bari kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye, harimo n'indwara z'uruhu kugira ngo bakire bagire ubuzima bwiza.

Igikoresho cyifashishwa mu kubikamo imiti ikomoka ku bimera itandukanye, abavuzi gakondo bakoresha iyo miti bavura abantu batandukanye, indwara nyinshi kugira ngo bakire harimo n'indwara z'uruhu ndetse n'izindi, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibikoresho byinshi cyane bitandukanye byifashishwa mu kubika imiti ikomoka ku bimera, harimo nk'ikawa. Uyu muti tuwukoresha turi kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye harimo umunaniro ndetse n'ibindi.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika imiti ikomoka ku bimera, abavuzi gakondo bakoresha uwo muti bavura indwara zitandukanye, harimo indwara z'uruhu, kugira ngo abazirwaye bagire ubuzima bwiza ndetse bahorane akamwenyu.

Ibikoresho bibitsemo imiti ikomoka ku kimera, amababi yayo asa n'icyatsi kibisi, uyu muti abavuzi gakondo bawukoresha bari kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye, harimo inkorora ndetse n'izindi ndwara.

Ikimera cyiza gitewe mu butaka kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, abavuzi gakondo bakifashisha bavura indwara zitandukanye kugira ngo abantu bakire bakomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Igikoresho cyifashishwa mu kubikamo umuti ukomoka ku kimera. Abavuzi gakondo bawukoresha bavura indwara zigiye zitandukanye, kugira ngo abazirwaye bakire bakomeze kugira ubuzima bwiza, buzira umuze bakore imirimo itandukanye bumva nta kibatega.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika umuti ukomoka ku bimera, habitsemo umuti. Uyu muti wifashishwa n'abavuzi gakondo, bari kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye, harimo indwara z'uruhu, ndetse n'ubushye.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika umuti ukomoka ku bimera ndetse no ku nzuki. Uyu muti abavuzi gakondo bawukoresha bari kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye. Harimo indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara.

Ikimera cyiza gifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'uturabyo dukomoka kuri icyo kimera. Iki kimera, abavuzi gakondo bagikoresha bari kuvura indwara nyinshi zitandukanye kugira ngo abo bavura bagire ubuzima bwiza. Iki kimera giteye mu butaka.

Ibikoresho byinshi cyane bitandukanye bibitsemo imiti ikomoka ku bimera, abavuzi gakondo bakoresha iyi miti bavura abantu indwara zitandukanye harimo n'iz'uruhu ndetse n'izindi ndwara kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Imiti myinshi itandukanye ikomoka ku bimera ndetse n'ibikoresho gakondo bakoresha barimo gukora iyo miti, uyu muti wifashishwa uvura abantu benshi batandukanye, indwara nyinshi zitandukanye, maze bagakira bakagira ubuzima bwiza.

Imiti myinshi y'ubwoko butandukanye ikomoka ku bimera byinshi bitandukanye, abavuzi gakondo bakoresha iyi miti bavura abantu indwara zitandukanye, harimo indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibikoresho byinshi cyane bitandukanye, byifashishwa mu kubikamo imiti gakondo harimo utwungo, uducuma, intara, inkoko, ndetse n'ibindi bikoresho byinshi. Abavuzi gakondo babyifashisha babikamo imiti myinshi y'ibimera itandukanye kugira ngo bazabikoreshe bavura abantu indwara zitandukanye.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, bibitsemo imiti myinshi itandukanye, harimo ubuki. Iyi miti abavuzi gakondo bayikoresha bavura abantu indwara zitandukanye, harimo inkorora ndetse n'indwara z'uruhu.

Ikimera cyiza giteye mu butaka kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, abavuzi gakondo bagikoresha bavura abantu indwara zitandukanye, harimo inkorora, ibicurane ndetse n'izindi ndwara kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kubikwamo imiti itandukanye ikomoka ku bimera, harimo nk'igikakarubamba. Abavuzi gakondo bayikoresha bavura indwara abantu zitandukanye, harimo: nk'indwara z'uruhu ndetse n'izindi.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bibitsemo umuti ukomoka ku bimera, uyu muti abavuzi gakondo bawukoresha bari kuvura abantu bafite indwara nyinshi zitandukanye harimo n'iz'uruhu, bakavura izo ndwara kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza ndetse ukabarinda no kwangirika k'uruhu.

Ikimera cyiza kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi giteye mu butaka, cyifashishwa n'abavuzi gakondo bavura indwara nyinshi zitandukanye abantu kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, harimo iz'imvune ndetse n'izindi ndwara.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika umuti ukomoka ku bimera, uyu muti abavuzi gakondo bawukoresha barimo kuvura abantu indwara zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza, iki gikoresho kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umutuku.

Abantu babiri bari kumwe batagaragara igice cyo hejuru ndetse n'igice cyo hasi. Umwe afite igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu kubikamo umuti ukomoka ku kimera, ari wo igikakarubamba. Undi afite igikoresho cyabugenewe mu koza amenyo tuzi nk'uburoso, bari kumushyiriraho umuti wo koza amenyo kugira ngo agire ubuzima bwiza.